Mu busitani bw'imbere y'inyubako y'ivuriro, hahagaze abantu batandukanye. Hari abantu bane bicaye ku murongo w'imbere abandi bahagaze inyuma. Biganjemo abambaye amajire asa ibara ry'umutuku, abenshi muri bo bambaye udupfukamuwa twamabara agiye atandukanye; bombi bafite impapuro z'impamyabumenyi zabo.

Mu ishuri ry'incuke risize irangi ry'umuhondo amadirishya yaryo arafunguye, imbere hari ikibaho cy'umukara harimo abarezi batandukanye, harimo abambaye amajire y'icyatsi, harimo uwambaye umupira cyangwa se ishati y'ubururu wunamye yafashe ku ntebe barimo baragenda begera abana b'incuke.

Ububiko bw'imiti itandukanye harimo imiri mu bikarito bibisi iba ry'umweru, iri mu macupa asa umweru apfundikishije imifuniko y'umweru, iri mu bikarito by'amabara atukura ndetse n'umweru, n'ibindi bisa nka kaki byinshi biri ahantu hafite isuku.

Akabati karimo ibikarito bitandukanye by'ibara ry'umweru ndetse n'umutuku byanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru. Hariho amatungo atandukanye harimo nk'ihene ndetse n'inka.